Ifumbire y'imborera, ubusanzwe ituruka ku kubora kuri bimwe mu bintu bibora, ariko muri ubu isigaye ituruka ku matungo haba magufi cyangwa se amaremare, harimo n'inka.

Abahinzi ba kijyambere bakoresha imiti yica udukoko, aho utwo dukoko ari two twatuma umusaruro ugabanuyuka, rero buri muhinzi wese ashishikarizwa gukoresha iyo miti kugira ngo umusaruro uziyongere.

Amafi agaragara ko ari matoya, kandi aribwo akirobwa. Aho atunganywamo ifunguro, kugira ngo abagiye ku meza bayakoreshe nk'ifunguro.

Ikoraniro ry'amafi ari mu ndobo, aho bigaragara ko yakawushijwe. Ibyo bigafasha abacuruzi mu kudahomba, aho amafi amara igihe kinini atangiritse bityo bigateza imbere abacuruzi babona amafaranga.

Amafi yabanje kubaburwa aba yizewe cyane kuko nta mikorobe aba agifite, kuko ziba zapfuye igihe aba yashyizwe ku muriro.

Amafi iyo akirobwa avanywe mu nyanja, kugira ngo ataza kwangirika bakoresha uburyo bwinshi butandukanye : kuyashyira mu munyu cyangwa se kuyababuza umuriro.

Inyama y'ifi itekwa mu buryo bwinshi butandukanye, bitewe n'uko nyiri kuyirya abishaka, hari ukoresha umuriro ayotsa cyangwa se bagakoresha amavuta yo guteka bityo bikaryoha bitandukanye.

Ifi ni kimwe mu biribwa, giikungahaye ku ntungamubiri, gikundwa n'abantu benshi, aho amafi arobwa mu nyanja, mu biyaga ndetse n'imigezi, n'abantu babishinzwe.

Uburobyi ni kimwe mu bintu biteza imbere abaturiye imigezi, ibiyaga, aho baroba amafi bityo bakayajyana ku isoko, aho abaturage bayagura, bityo abo barobyi bakiteza imbere binyuze mu kubona amafaranga mu mafi bagurishije.

Inyama y'ifi, ni imwe mu nyama zikunzwe cyane mu Rwanda, aho usanga abaturage benshi bagiye ku masoko, bagiye gushaka izi nyama kandi bigaragara yuko zisigaye zigura amafaranga atari makeya.

Si uko amafi akurwa mu biyaga cyangwa se imigezi gusa, ahubwo amafi ashobora kororerwa mu byuzi byacukuwe n'abantu, aho abo bantu bayitaho bakayabyaza umusaruro bakaniteza imbere.

Abarobyi bifashisha ibikoresho byinshi bitandukanye barimo kuroba amafi. Harimo nk'ubutimba kugira ngo bafate ayo mafi, ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye n'igihe.

Amafi ni kimwe mu nyama zitegurwa ku ifunguro rya buri munsi. Aho iyo wariye ifi， uba utagira ibibazo byo guhura n'indwara nyinshi zitandukanye. Nko kubura amaraso， umuvuduko w'amaraso，ndetse n'izindi ndwara.

Abantu baturiye ikiyaga bakora umurimo w'uburobyi biteza imbere binyuze mu kuroba ayo mafi. Aho bayaroba mu ijoro kugira ngo bayabone baze mu gitondo bakayajyana ku isoko; bakayagurisha bakabona amafaranga bityo bakiteza imbere.

Abarobyi bo mu biyaga bifashisha ibikoresho byinshi bitandukanye by'uburobyi harimo: ubwato, imifuka, udutimba two gufatisha amafi, ndetse n'ibindi.

Imigezi ni imwe mu bintu bituma ibindi binyabuzima bibaho, nk'amafi aba mu mazi n'abantu bakajya kuroba ayo mafi bigatuma babaho, ndetse amazi y'umugezi atuma ibishanga bibona amazi bityo abantu bahingamo ibihingwa bikenera amazi bakabasha gusarura umusaruro mwiza.

Inyama zikundwa cyane muri iyi minsi, harimo n'inyama y'ifi ,aho abantu benshi bazikunda bigatuma igiciro cy'izo nyama kiyongera buri munsi.

Ibiribwa byinshi bikunzwe cyane ku isi harimo n'ibituruka mu nyanja, aho abarobyi baba bafite akazi ko kuroba nk'amafi, aho abaturage benshi bayakunda, bityo bakajya ku masoko kuyagura, aho abo barobyi baba bayazanye kuyagurishiriza.

Ibiryo byiza bifite isosi isa umuhondo, hejuru hakatiyeho imboga nziza cyane, kandi bigaragara ko harimo inyama y'ifi.

Inyama y'ifi ni imwe mu zihariye cyane，aho zikundwa n'abantu benshi， bityo rero， ku isoko zikaba zigura amafaranga menshi，ugereranyije n'izindi nyama.

Mu buhinzi buteye imbere kandi bwa kijyambere, bugizwe no kuba abahinzi bafata ubutaka bufite ubuso bunini cyane, bakabuhingaho igihingwa kimwe.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho abahinzi bafata ubuso bunini bakabuhingamo imyaka itandukanye, harimo nk'akaroti, amashu, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bigaragara ko byahera cyane.

Ubuhinzi bw'inyanya burangwa no gubusasira izo nyanya kandi bakazishyiraho imvaruganda kandi hakifashishwa n'imiti yica udukoko kugira ngo zikure neza, abahinzi bakabona umusaruro mwiza.

Ibigorigori ni ibisigazwa bisigara mu murima wamaze gusarurwamo imbuto y'ibigori, kandi ibigori iyo bisaruwe, ibisigara mu murima bikoreshwa nk'imishingiriro y'ibishyimbo, kandi ni byiza cyane kuko bifasha ibishyimbo kwera neza, kandi n'abahinzi ntibatakaze amafaranga menshi bashaka iyo mishingiriro.

Ubuso bunini burimo ibihingwa bitandukanye, harimo amashaza, insina zimwe ziriho ibitoki n'izitariho ibitoki, kandi izitariho ibitoki zirimo inkingi zibirinda kugwa igihe hari umuyaga.

Ibishushu ni zimwe mu mboga ziryoha cyane abanyarwanda bakunda gutera, bakazihinga, bakazisarura, maze bakazikoresha mu gutegura amafunguro ya buri munsi.

Gutera ibiti ni umuco mwiza buri wese agomba kugira, kuko ibiti ari byiza kuri twe, nko kuduha umwuka mwiza wo guhumeka, gufata ubutaka kugirango budatwarwa n'isuri ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bwa karoti ni bwiza cyane ,kuko karoti ni kimwe mu mafunguro akunzwe cyane n'abantu benshi ,aho karoti zivura indwara nyinshi zitandukanye, nk'amaso zikaba zirinda n'indi ndwara nk'igifu ndetse n'izindi.

Ibitunguru ni kimwe mu bihingwa, n' abahinzi benshi mu gihugu c' u Rwanda aho kigira umusaruro mwinshi, kandi kikaba kigira agaciro gakomeye ku isoko aho buri munyarwanda, atategura ifunguro ritagira igitunguru bihari.

Ubuhinzi bw'amashaza ni bwiza cyane. Kuko umuhinzi wayahinze iyo ayasaruye， akayajyana ku isoko， abona amafaranga menshi cyane.

Igiti kirekire cy'umuvumu, munsi yacyo hariho insina nyinshi z'ibitoki, aho byera ibitoki maze bakabikoresha mu gukama inzoga, ndetse n'imineke.

Amase ni umwanda inka zita igihe ziri mu rwuri, aya rero akaba yateza umwanda mu bidukikije, rero, ibyiza ni uko inka zororerwa mu biraro, bityo ibidukikije bikaguma bimeze neza.

Ibiti ni byiza kuko bidufasha guhumeka, biduha umwuka mwiza. Kandi bifata ubutaka bigatuma budatwarwa n'inkangu ndetse n'isuri.

Itsinda rinini ry'insina nyinshi ziganje zifite ibitoki, hejuru y'izo nsina kandi hakagaragara insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Abantu barimo gusarura ibigori，bifashishije ibikoresho，harimo umuhoro， barimo gutema ibigorigori， kugira ngo bazabikoreshe nko gucana imishingiriro，y'ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Ubuso bunini bw'ubutaka buharirwa ubuhinzi, aho ibihingwa nk'amajeri, ibigori, ibishyimbo, bihingwa ku buso bunini, bityo abahinzi bakabona umusaruro ushimishije, ndetse bakiteza n'imbere n'Igihugu muri rusange.

Mbere y'uko umuhinzi atera imbuto ye mu butaka, agomba kubanza gutegura ubwo butaka, aribwo abanza guhinga neza agakuramo ibintu byose byatuma iyo mbuto idapfira mu butaka, kandi bigafasha iyo mbuto kwera neza, bityo umusaruro ukaboneka.

Igihingwa cyitwa ibirayi, gikunze guhingwa mu majyaruguru y'u Rwanda. Aho gikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo.

Mu ntara y'amajyaruguru cyane cyane ahegereye ibirunga, ni hamwe mu ahantu hera cyane kuko hakunze kwera ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, ibishyimbo, karoti n'izindi mboga nyinshi zitandukanye.

Mu Rwanda hari gahunda yo gufata ubutaka ,ubuso bunini bakabuharira ubuhinzi. Kandi bikaba ari byiza cyane kuko byongera umusaruro .Bityo bigatuma abahinzi biteza imbere.

Insina z'ibitoki, aho ziri mu butaka buteguye neza, aho zizavangwamo ibindi bihingwa, kugira ngo bazasarure ibihingwa byinshi bitandukanye, bityo abahinzi bakiteza imbere, binyuze mu kuvanga imyaka.

Guhinga igihingwa kimwe ntabwo ari byiza, kuko ugikuramo ari cyo cyonyine, ahubwo mu buhinzi bugezweho harimo gukomatanya imyaka itandukanye, rero ni byiza ko buri muhinzi ariko yabikora.

Amashaza ni igihingwa cyiza cyane ashobora kuribwa ari mabisi cyangwa se yumye, aho abarwaye indwara z'umutima, imvururu mu mikorere y'urwungano rw'ubwonko n'imitsi bashobora kuyarya kugira ngo bakire. Aya rero ni meza cyane kuko akoreshwa nk' umuti.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza kuko abahinzi babihinga nyuma y'amezi make babiteye batangira gukirigita ifaranga kandi n'abashaka ibyo birayi bakabibonera igihe.

Ibihingwa bitoshye cyane， bisa nk'aho byitaweho，byashyizweho imvaruganda， kandi byatewe kijyambere， aho byabangikanyijwe n'ibindi，aho bahinze mu ubwoko butandukanye bw'ibihingwa, hariho ibigori ndetse n'ibishyimbo bigufi.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bisarurwa maze bikanikwa kugira ngo bizahunikwe igihe kirekire bitagize ikibazo . Bityo bigatuma abacuruzi ndetse n'abahinzi batagira ikibazo cyo gupfa kw'ibyo bigori.

Ibirayi byinshi bipakiwe mu mifuka, bisa nk'aho abahinzi babisaruye. Aho bagiye kubigurisha aho abandi batabifite. Nk'umugi wa Kigali cyangwa se n'ahandi batabihinga.

Mu isoko ry'ibiribwa， aho bigaragara ko harimo gucuruza imiteja， intonore， ibishyimbo byumye， ndetse n'ibibisi，kandi hakaba harimo n'abantu benshi， babikeneye kubigura.

Mu buhinzi bwa kijyambere, ibihingwa habonekamo umusaruro mwinshi, kuko haba harakoreshejwe ubuhanga buhanitse muri ubwo buhinzi. Nk gukoresha ifumbire mvaruganda.

Aho mu isoko ry'ibiribwa ibicuruzwa bishyirwa, kugira ngo ababikeneye babibone ku buryo bwihuse, bigaragara ko hariho ibirayi, ibishyimbo, imyumbati, ndetse n'ibitoki.

Inka ziri mu rwuri, aho zishyirwamo kugira ngo zirishe ubwatsi, zamara guhaga zigahabwa n'amazi, izo nibwo buryo aborozi bakoresha, kugira ngo inka zabo zimererwe neza.

Ipera ni rumwe mu mbuto nziza kandi zikunzwe cyane mu Rwanda aho zihingwa kandi zikaboneka henshi mu gace k'ibihugu by'iburasirazuba.

Igihaza iyo ugisaruwe cyeze , gitekwa mu buryo ushaka. Iyo cyeze neza , mo imbere haba harimo imbuto cyangwa se inzuzi.

Ibireti ni ibihingwa ngengabuku, aho bijyanwa mu nganda, bigakorwamo imiti yica udukoko, ndetse n'amavuta yo kwisiga, ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abantu, harimo abagabo n'abagore, aho bari mu murima barimo kureba ubuhinzi abantu bafite, ndetse bigaragara ko ubwo buhinzi bumeze neza kandi bakaba barahinze imyumbati.

Mu isoko ry'ibiribwa higanjemo cyane: ibinyamisogwe nk'ibishyimbo ndetse n'amashyaza. Hakaza ibigori ndetse na soya ,ubunyobwa ,amacunga ,amashu ndetse n'ibindi.

Imyumbati ni bimwe mu bitera imbaraga biboneka cyane mu Rwanda, aho gishobora gutekwa bisanzwe cyangwa se kikanikwa kikazakorwamo ifu y'ubugari.

Imiteja amafunguro yaryo aba aryoshye cyane, bityo bigatuma ikundwa cyane mu Rwanda, bigatuma iba ifite amafaranga menshi ku isoko.

Umubyeyi ufite umusaruro mu maboko ye birasa nk'aho abyishimiye kuko yise ku bihingwa bye ashyiraho ifumbire mvaruganda ihagije, bityo ibihingwa bye bikura neza. None ubu biri kumuha amafaranga kandi n'inyungu, bityo bizamuteza imbere, biteze imbere n'igihugu muri rusange.

Bimwe mu bihingwa abahinzi bakunda guhinga harimo n'ibinyabijumba, nk'imyumbati, ibijumba aho byerera mu butaka ,byajya gusarurwa bagakoresha amasuka ,babikora mu butaka, maze bakabijyana kubiteka cyangwa se ku masoko.

Inkombe isa nkaho itarera neza, kuko isa n'icyatsi. Ibi rero bikazasaba kuyireka nk'icyumweru kugirango izabe yahiye isa umuhondo.

Amateke ni ibiribwa biboneka ahantu henshi mu gihugu, aho yifashishwa mu gutegura amafunguro kandi akaba azwiho nko kuba ari ibitera imbaraga.

Amateke ni kimwe mu gihingwa gikunze guhingwa cyane mu rwanda, aho gitegurwa nk'ifunguro, kandi kiraryoha cyane kuko abantu benshi baragikunda.

Buri muhinzi wese agomba kwita ku buhinzi bwe kugira ngo abikore kijyambere, maze azabone umusaruro mwiza kandi utubutse, bikamuteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Mu buhinzi bwateye imbere cyane, hagaragaramo ko kuvomerera cyangwa se kuhira imyaka, bakoresha ikoranabuhanga. Aho n'imashini zuhira zikoreshwa bityo umusaruro ukaboneka nk'aho imvura ariyo yaguye.

Inanasi iribwa n'abantu bo mu rugo, cyangwa se ikaba yakoherezwa ku ruganda, kugira ngo ikurwemo umutobe, bityo inganda zikawutunganya, zikawugurisha utunganije neza.

Kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'imirire mibi, buri ndyo yuzuye igomba kugaragaraho imiteja, pavuro, intoyi, inyanya ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Umugore cyangwa se umukobwa urimo gukora igikorwa cyo gusarura icyayi, aho iyo bamaze kugisarura bakijyana ku ruganda kugira ngo gitunganwe, bityo kikazakorwamo kikazatekwamo icyayi.

Ubuhinzi bw'imbuto cyane cyane amatunda ni bwiza kuko abahinzi babukora babona inyungu nyinshi cyane, kubera ko amatunda agira amafaranga menshi cyane.

Imishwi iva mu magi, aho bayishyira ahantu hamwe aborozi bakayorora nyuma y'amezi make bakayigurisha nk'inyama cyangwa se igatera amagi.

Avoka ni rumwe mu mbuto zikundwa cyane n'abantu benshi mu Rwanda, aho gisangwa ahantu hose mu gihugu kandi kikaba kigura amafaranga atari menshi.

Avoka ni urubuto rwiza cyane kuko rurinda indwara nyinshi zitandukanye. Urubuto rwifashishwa mu gutegura amafunguro aho buri muntu wese agomba kurya urubuto ku mafunguro ye ya buri munsi.

Imyumbati itegurwa mu buryo bwinshi butandukanye, aho ishobora gutekwa bisanzwe bayitogosheje, kandi ishobora no kwaniikwa igakorwamo ifu, bityo bakazayitekamo umutsima w'ubugari.

Ipera nirumwe mu mbuto, zikundwa cyane mu Rwanda, aho abahinzi bazihinga, kugira ngo bazijyane ku masoko ndetse nabo bazikoreshe ubwabo.

Inkoko z'inyarwanda zigira inyama iryoshye kuruta inkoko z'inkorano, aho zigira n'amagi aryoshye.

Icyayi ni igihingwa cyiza cyane, kuko abagihinga babona amafaranga, aho bagisoroma bakakijyana ku nganda zikagitunganya, na bo bagahabwa amafaranga.

Ikoraniro ry'abantu bigaragara ko ari amashyirahamwe arimo gukora amaterasi y'indinganire, aho bifasha mu kurinda isuri, gutengukwa mu gihe cy'imvura.

Abahinzi barimo kwita ku bihingwa bisa nk'aho ari imiteja, rero iyi miteja igakoreshwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi, aho yifashishwa mu kurinda indwara.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo karoti, pavuro, karoti, amashu, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abahinzi bari mu gikorwa cyo gusarura igihingwa cy'umuceri, aho baba baragihinze mu gishanga, cyamara kwera, hagakurikiraho icyo gikorwa cyo kugisarura.

Ikoraniro ryinshi ry'ubwoko bw'ibiribwa. Aho harimo intoryi, indimu, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Aho ziri mu isoko ry'ibiribwa, kugira ngo bigurishwe abaturage.

Amateke ni ibitera imbaraga biteguwa nk'amafunguro, aho abari ku meza babyifashisha bari kubirya, kandi biraryoha cyane kuko bikunzwe n'abantu benshi mu Rwanda.

Abantu benshi bigaragarako barimo gusarura igihingwa cyitwa icyayi. Ni cyiza cyane kuko kizamura ubukungu bw'u Rwanda ,aho gihagaze amafaranga menshi iyo bagisohoye igihugu.

Puwavuro ni igihingwa gihingwagwa cyane mu Rwanda, aho cyifashishwa mu gutegura amafunguro, aho mu umubiri uyifasha mu kurinda indwara zitandukanye.

Isoko rigezweho ry'ibiribwa, ririmo ibicuruzwa byinshi ariko higanjemo ibirayi , aho abahinzi babizana kubigurisha mu isoko kugira ngo abatabifite bazane amafaranga babigure.

Inkwavu zigaragara mu bwoya bw'umweru, aho aborozi bazorora. Maze zamara gukura zikororoka, kandi bigaragara yuko zororokera igihe gitoya, kitarenga amezi abiri.

Umuhinzi w'umugore urimo kubagara ibigori, bityo bikazabifasha gukura neza maze bigatanga umusaruro mwinshi, bigateza imbere uyu muhinzi bityo n'igihugu kigatera imbere.

Imyumbati ni igihingwa cyerera munsi y'ubutaka, aho gikunze guhingwa ahantu henshi mu gihugu n'abahinzi benshi.

Mu buhinzi buteye imbere, uburyo bwo kuhira imyaka ni bwiza kuko igihe cyose imyaka iba yera, kuko haba mu gihe cy'izuba ndetse no mu mvura tuba tubona umusaruro.

Igihaza ni kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Rwanda, aho abahinzi babihinga kugira ngo bazabyifashishe mu gutegura amafunguro mu ngo zabo, ndetse bagasagurira n'amasoko, bityo bakiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Urubuto rwa avoka ni rumwe mu mbuto zikungahaye ku mavuta. Kandi iyo wariye uru rubuto uba wariye indyo yuzuye, kandi uru rubuto ruzwiho nko kurinda indwara, kurinda umunaniro ukabije ndetse rukoroshya n'urwungano ngogozi.

Ubuhinzi bw'imbuto bw'amacunga ni bwiza, kuko nibwo bukenewe hano ku isoko, kuko abantu benshi bakunda imbuto.

Kurya igitoki harimo n'imizuzu bigabanya kanseri y'impyiko ku bagore kurwara indwara z'umutima ku bantu bose bikavura impiswi ndetse bikanarinda diyabete, ibitoki rero ni byiza ku buzima bw'umuntu.

Ibihaza bifatwa nk' imboga ndetse ibi bikoreshwa igihe barimo gutunganya amafunguro ya buri munsi, aho abahinzi babihinga, kugira ngo bazajye babitunganya ku mafunguro cyangwa se babisagurire n' amasoko.

Avoka ni rumwe mu mbuto zigaragara cyane mu mbuto zigira amavuta, kandi avoka zigaragara mu mabara atandukanye. Hari avoka zitukura, hari izidatukura, ndetse hari n'avoka zimera nk'uducuma, ndetse n'iz'ubundi bwoko bwinshi butandukanye.

Imbuto zitwa amatunda ni nziza cyane, kuko zikoreshwa mu gutunganya imitobe, bityo inganda zikabona amafaranga binyuze mu gutunganya izo mbuto ndetse bigaha n'abahinzi bazihinga, uburyo bwiza bwo kubaho neza.

Habaho ubwoko bubiri bw'imyumbati. Habaho imyumbati iribwa ndetse n'imyumbati ikorwamo ifu y'ubugari. Iyo rero ntabwo iribwa kimwe, aho imyubati iribwa bayiteka bisanzwe naho iy' ubugari bakayikoramo ifu.

Igihingwa cy'ubunyobwa kigira imigozi irandaranda na yo ikazana uruyange kuri buri gapfundo. Ubunyobwa buribwa nk'amavuta asigwa ku migati cyangwa se amavuta atekwa.

Kungikanya imyaka mu murima umwe, ni bimwe mu bigezweho mu buhinzi muri iki gihe, aho ushobora nko gutera ibigori ukungikanya ugateramo n'ibishyimbo, aho bifasha abahinzi gusarura ibihingwa byinshi bitandukanye, bityo bikabateza imbere n'igihugu muri rusange.

Guhura ibishyimbo ni igihe ugiye mu umurima ukabisarura, maze ukabijyana ukabihura ukoresheje ibibando, maze ibishyimbo bikavamo.

Ibihwagari, ibihingwa ngengabukungu bihingwa cyane cyane mu Rwanda, kugira ngo bijyanwe mu nganda hakorwemo ibintu byinshi bitandukanye, nk'amavuta yo guteka, ayo kwisiga, amasabune ndetse n'ibindi.

Ikigega ni kimwe gikoreshwa mu guhunika imyaka, aho iyo ibihingwa runaka bisaruwe nk'ibigori cyangwa ibishyimbo bihunikwa mu kigega kugira ngo bazabikoreshe mu minsi izaza.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu gihingwa cyane mu Rwanda. Iki gihingwa rero iyo gisohotse igihugu, kiba gihagaze agaciro k'amafaranga menshi cyane.

ubunyobwa ni kimwe mu bintu by'ibihingwa bikundwa cyane mu wanda aho abaturage benshi bajyaga kubihaha ku masoko y'ibiribwa maze n'abo bacuruzi bakunguka amafaranga binyuze mu gucuruza ubunyobwa

Ubunyobwa ni bwiza kuko bukundwa cyane mu Rwanda, aho ubunyobwa butanga intungamubiri ku bantu no ku butaka kandi bukaba butanga inyungu ku bahinzi babuhinga.

Umutiba ni kimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga n'abantu igihe babaga bari mu isarura, aho babikagamo imyaka kugira ngo bazayikoreshe ikindi gihe bizaba ari ngombwa.

Amashaza ateye ku murongo ,aho ibi bizatuma amashaza yera neza ,bityo bikazatuma abahinzi babona umusaruro ushimishije, uyateza imbere igihugu n'ingo zabo.

Umugore w'umuhinzi urimo gusarura amasaka. Yifashishije bimwe mu bikoresho by'ubuhinzi harimo, nk'icyuma cyo gukatisha ayo masaka, ndetse n'indi mifuka yo gusaruriramo.

yo umuhinzi yitaye cyane ku gihingwa cye, asarura umusaruro ushimishije, kandi mwinshi, aho wabonaga inyungu nyinshi iturutse muri uwo musaruro.

Iyo amasaka yeze aba asa n'umutuku rero iyo atarera aba ajya gusa n'icyatsi. Mbere y'uko usarura igihingwa icyo ari cyo cyose, ugomba kubanza kumenya neza niba cyeze.

Ibigega bikoreshwa mu guhunika imyaka, igihe iba yeze, kugira ngo bazayikoreshe mu minsi iri imbere.

Iyo uhinze imbuto si byiza ko wazireka ,kuko biba bishaka ngo uziteho ,kugira ngo zizakure neza, bityo bigatuma uzabona umusaruro mwiza ugushimishije.

Uruyange rw'amashaza ni rwiza，kuko iyo rubaye rwinshi ni nako umusaruro w'amashaza uba mwinshi，bityo bigatuma abahinzi babona umusaruro mwinshi，bigatuma biteza imbere， n'igihugu muri rusange.

Inganda nyinshi zitandukanye zitanga akazi ku bantu bazituriye. Kandi inganda zigatanga imisoro. Bityo Igihugu kikabona amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi, no guhemba abakozi ba Leta.

Ibihingwa cyane cyane ibigori, iyo byeze bigasarurwa bijyanwa mu buhunikiro, aho abaturage bishyira hamwe bakubaka igihunikiro kugira ngo bizajye bibafasha kwanika neza umusaruro wabo, bityo bikabateza imbere kandi bikabarinda igihombo.

Muri iyi minsi ubuhinzi bw'imiteja ni bwo buri gutera imbere cyane kuko imiteja ni imwe mu mafunguro akunzwe cyane mu Rwanda.

Inzuzi ni bimwe mu bintu biterwa cyane mu Rwanda, bikazameramo ibihaza, bigatunga ba nyir'ukubitera, kandi bigatuma babona amafaranga, binyuze mu kugurisha ibintu bahinze cyangwa se bejejemo.

Umuvuzi w'amatungo aho bigaragara ko arimo kuvura inka, bisa nk'aho yarwaye, cyangwa se arimo kuyitera intanga, kuko ari bwo buryo bugezweho bwo kubyaza amatungo.

Abavuzi b'amatungo bashinzwe, kwita ku matungo y'abaturage, igihe babakeneye kandi umuvuzi w'amatungo, agomba kuba azi uko inka ishobora kurwara, bityo rero akaba yayi tera urukingo.

Ingurube ni imwe mu matungo magufi akunze kororwa cyane mu Rwanda, aho aborozi bayorora yamara gukura bakayagurisha cyangwa se bakayabaga akaribwamo inyama, bityo bakiteza imbere.

Ubworozi bwa kijyambere buri gutera imbere muri iyi minsi, aho inka zirimo guterwa intanga, bidasabye ko bajya gushaka inka y'imfizi, ngo itere intanga imbyeyi.

Bimwe mu bituma ubworozi bw'ingurube butera imbere cyane, ni ugutera intanga kijyambere ,aho bigaragara ko umuvuzi w'amatungo arimo gutera intanga ingurube y'imbyeyi, kugira ngo izororoke vuba ,bidasabye ingurube y'ingabo.

Inka nyinshi ziri mu mabara atandukanye, aho bigaragara ko ziri mu rwuri zirimo kurisha ubwatsi, aho izo nka zororwa kugira ngo zizatange amata cyangwa se inyama.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu buri gutera imbere cyane mu Rwanda. Na ho inyama zazo zikunzwe cyane muri Afurika y'iburasirazuba kandi ingurube zikaba zororoka cyane kandi zigakura vuba.

Ubworozi buciriritse bw'inkoko. Ni aho umuturage azabona amafaranga binyuze mu kuzigurisha ,igihe zizaba zakuze, maze bimuteze imbere ndetse n'umuryango we muri rusange.

Ibyingenzi ukwiriye kumenya ku bworozi bw'ingurube, ni uko ari bumwe bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda. Byumwihariko nyuma y'uko inyama yazo ikomeje gukundwa hirya no hino.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inka, aho inka zubakirwa ibiraro kugira ngo zibemo. Ibi ni byiza cyane kuko birinda inka kuba yahura na zimwe mu ndwara zazo yahura nazo igihe yasohotse, cyangwa se iri mu rwuri.

Ingurube ni itungo rigufi rizwiho kwibaruka cyane, aho ishobora kubwagura ibyana birenga cumi na bitanu, ikabibyarira icyarimwe.

Inka ziri mu mabara y'umweru n'umukara aho baziteranirije ahantu hamwe ,bisa nk'aho zagiye gukingirwa n' abaveterineri babihereye impamyabumenyi.

Ubworozi bw' inkoko ni bumwe mu bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho aborozi bagura imishwi cyangwa se bakayituraga mu magi, maze bakazorora zikavamo inkoko nini, zigatera amagi cyangwa se bakazibagamo inyama.

Umworozi ufite umushinga wo korora amatungo. Aho afite amatungo magufi. Higanjemo inkoko, ndetse n'amahene. Hakabaho n'inka iri mu kiraro.

Ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane ,kuko ubu bworozi ni bimwe mu biri gutera imbere mu Rwanda ,aho ingano y'amahoteli ikeneye inyama z'inkwavu biri kwiyongera kandi izi nkwavu zikaba zikunzwe cyane mu Rwanda.

Inyama y'ingurube iri muri zimwe mu nyama zikunzwe cyane mu Rwanda, aho aborozi borora ingurube bituma babona inyungu nyinshi biturutse ku kuba zikenewe cyane.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane. Aho aborozi borora izo nkoko, maze zigatera amagi menshi cyane, bakayajyana ku masoko, bakayagura abaturage maze abo borozi bakabona amafaranga atubutse.

Igisiga kiri mu mabara y'umukara n'umweru aho gikunda kwirira inyama ndetse n'utundi dusimba dutoya. Kandi ni cyiza kuko gikurura ba mukerarugendo.

Inyoni ifite amababa meza cyane biryohe amaraso kuyireba. Nayo ikaba iri mu ibintu byiza bikurura ba mukerarugendo kuza gusura u Rwanda.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere bicumbikiye inyoni harimo ,amoko yazo magana atandatu mirongo irindwi atandukanye ,yamaze kwandikwa hakabamo ane arimo gukendera.

Inyoni ifite amaguru y'umutuku ifite n'amaso y'umutuku. Ifite ubwoya bw'umukara kandi ikaba ihagaze ku byatsi byumye, bisa nk'aho iri mu ishyamba.

Ibiguruka bikunze kwibera ku nyanja, ku biyaga, ndetse no ku migezi. Aho usanga bikunda kwirira inyamaswa ntoya zo mu nyanja, harimo n'amafi.

Inyamaswa y'agasozi yitwa Isha, igira amahembe maremare kandi yitwaye nk'ihene, iyi hene rero ikaba yibera mu ishyamba aho itunzwe nokurisha ibyatsi.

Ikiguruka kinini cyitwa igisiga kiri mu ibara ry'umweru higanjemo umukara. ibi birya inyama ,ibyatsi ndetse n'ibinyampeke...

Akanyoni gatoya cyane kari mu mabara y'umuhondo n'umukara, gahagaze ku giti bisa nk'aho kari mu shyamba, aho kari muri bimwe mu byiza bitatse u Rwanda, abanyamahanga baza gusura.

Inyoni zibera mu ishyamba, ziri muri kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo, gusura u Rwanda. Aho nazo zigize ibintu bituma u Rwanda rugira imiterere myiza ikurura ba mukerarugendo.

Ibiguruka bikunze kwibera mu mashyamba, aho abanyamahanga baza kureba ibyo biguruka. Bityo Igihugu kikinjiza amadovize biturutse muri ibyo byiza, harimo ibiguruka.

Urukwavu rw'ishyamba, ni rumwe mu nyamaswa ntoya zibera mu shyamba, aho urukwavu ruzwiho nko kwihisha cyane izindi nyamaswa nini zirya inyama kugira ngo zitarurya, kandi urukwavu rw'ishyamba rurya ibyatsi.

Umwana w'umuhungu wambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umweru, ufite ikibazanyo kigaragaza igikeri. Ibi bikaba bidukangurira kwirinda kwangiza ibidukikije.

Imwe mu nyamaswa z'inkazi ziba mu ishyamba， kandi iyi nyamaswa ni indyanyanyama. Aho ihiga utundi dusimba dutoya， kugira ngo iturye， kugira ngo ibeho.

Inyoni igaragara mu ibara ry'umweru n'umukara ifite amaguru maremare, ijosi rirerire ndetse n'umunwa muremure. Aho usanga zikunda kwibera ahantu hari amazi aho zihiga amafi zikoresheje umunwa wazo kubera ko ari muremure.

Agacurama ni inyamaswa y'ishyamba itangaje cyane, kuko yumviriza nyiramubande, kugira ngo imenye niba aho iri kunyura nta kintu iraza kugonga.

Inyamaswa y'inkazi ifite amahembe ameze nk'amacumu y'ibiti, kandi ikaba yirira inyamaswa zirya ibyatsi. Aho buri munsi ihiga, kandi umuhigo ikawubona kugira ngo ize kubaho.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi zibera munsi y'ubutaka. Aho zibeshejweho no kurya ibinyabijumba, imizi y'ibiti, ndetse zigahumeka umwuka wo munsi y'ubutaka.

Inyoni ifite ibara ryiza cyane, aho ihagaze ku turabo, bigaragara ko yari iri gushaka icyo kurya mu ndabo, nk'inzuki cyangwa se utundi dukoko.

Ubwoko bw'inyoni bugira iminwa ikomeye cyane, aho ukoresha iyo mirwa yazo kugira ngo ucukure igiti, aho bawukora aho zishobora kuba.

Inyoni ni kimwe mu ngero z'ibiguruka aho zibera mu mashyamba zikarika mu byari ndetse no mu biti kandi zitera amagi kugira ngo zororoke.

Ibiguruka biri mu bintu bimwe by'ingenzi bikururara ba mukerarugendo, aho abanyamahanga baza mu Rwanda, baje kureba ibyiza birutatse harimo inyoni, ibyiyoni ndetse n'ibindi biguruka, aho bituma igihugu cyinjiza amadovize iturutse muri ubwo bukerarugendo.

Inyamaswa zihagaze hejuru y'amabuye, bigaragara ko ziri mu ishyamba ry'ibirunga, aho iryo shyamba ribamo imigano, kandi izi nyamaswa zikaba zikunda kuba muri ubu bwoko bw'ibiti.

Inkende ni inyamaswa iba mu ishyamba, aho ibayeho kuba mu biti kandi ikaba ikunda imineke cyane kurusha abantu.

Inyoni nziza cyane， igaragara mu ibara ry'umuhondo，ubururu， ndetse n'umukara，aho ihagaze ku giti cyerekana ko iri mu ishyamba.